Hari ibigo bishinzwe itumanaho mu Rwanda, urugero nk'ikitwa Eyateri, aho ifasha abaturage kubona ibyo bakeneye, harimo kubahereza amatelefoni ya makeya, kubahereza amayinite cyangwa se abasimukadi bakoresha bitabisha.

Abashinzwe itumanaho bagenda bavumbura ibintu bishyashya uko bwije n'uko bucyeye, niyo mpamvu bakoresha abakozi babo kugira ngo begere abaturage, hanyuma babasobanurire icyo kintu gishyashya bakoze ku buryo nabo bazajya babasha kubikoresha bo ku giti cyabo.

Iyo dukeneye kuvugisha abantu ba kure yacu dukenera amayinite niyo mpamvu hari ibigo bishinzwe itumanaho mu Rwanda urugero nka MTN bidufasha kuyabona kandi batwereka n'uburyo tuyakoresha.

Iyo dukeneye amayinite kugira ngo dukore ibikorwa by'itumanaho twegera ibigo bitandukanye mu Rwanda bishinzwe itumanaho urugero nka MTN kandi bifite aba ajenti cyangwa abakozi bayo bakenewe bari ahantu hatandukanye mu makaritsiye ku mihanda kugira ngo tubone ayo mayinite byoroshye.

Ibigo by'itumanaho, tubikenera buri munsi, kugira ngo dukore ibintu bitandukanye nk'ubucuruzi, baba bafite abakozi babo ahantu hatandukanye ku mihanda cyangwa se mu maduka, abo bakozi badufasha kubona ibyo dukeneye kandi bikatworohera.

Iyo abaturage bashaka kubitsa amafaranga yabo, hari ibigo bitandukanye mu Rwanda bibafasha, urugero nka BK cyangwa se Banke ofu Kigali igiye ifite amashami ahantu hatandukanye mu gihugu, kandi igi n'abajenti babafasha kubikira abaturage amafaranga. Ibyo bituma amafaranga y'abaturage abikwa mu buryo bwizewe, kandi akaba yabafasha kuzakoreshwa mu gihe kiri imbere.

Hari serivisi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi urugero: nk'amainite. Tuyakoresha duhamagara abantu dukeneye. Mu bikorwa byacu bya buri munsi urugero nk'iby'ubucuruzi. Niyo mpamvu usanga ibyicaro bikuru nka MTN cyangwa ikindi kigo gishinzwe itumanaho, gitanga serivisi kikazegereza abaturage nko ku muhanda ahantu abantu benshi banyura kandi ikagerageza kuba ahantu hose.

Ku mihanda hagenda hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye. Hari n'aho usanga bacuruza amayinite yifashishwa mu gukominikana hagati y'abantu. Iyo ugiye kuba ajenti urugero nka MTN cyangwa Airtel baduhereza amayinite twifashisha duhamagara abantu dukeneye. Tugakora ibindi bintu bitandukanye bitadusabye kuva hamwe tujya ahandi, tujya kuvugana na bo amaso ku maso.

Mu Rwanda hari ibigo bitandukanye bidufasha kubika amafaranga yacu kugira ngo tutayabura cyangwa se tukayakoresha mu buryo butari bwiza, niyo mpamvu usanga hari ama banki atandukanye kandi abafite abayakoresha nanone usanga bafite aba ajenti bakorera ayo mabanki ku buryo buri muturage aho yaba ari hose bishoboka ko yabitsa amafaranga ye.

Iyo dukeneye amayinite yo guhamagara dushaka abashinzwe ibigo by'itumanaho mu Rwanda bakadufasha kuyabona kugira ngo tubashe guhamagara ab'iwacu cyangwa se abandi bantu dukeneye bitworoheye.

Mu Rwanda hari igihe hagerwaho umunsi wo kumurika ibigurishwa ari byo bita imurikagurisha, haza abantu batandukanye baje kwerekana ibyo bakora cyangwa se ibyo bacuruza, ibyo bituma abantu batandukanye bamenyekanisha ibintu byabo kandi bakabona abakiriya.

Ubuhinzi bugenda butera imbere uko bwije n'uko bukeye gusa nanone iyo abantu bibumbiye hamwe makoperative biba ari akarusho, barahinga kandi bakeza nanone bageza umusaruro wabo ku isoko bakabona amafaranga menshi bakoresha biteza imbere bakagura ibyo bakeneye, aya mafaranga bashobora no kuyajyana mu bigo by'imari bikabafasha kuyabika.

Ubworozi buduhereza umusaruro utandukanye. Urugero nk'inka iyo zorowe neza ziduhereza amata. Ayo mata tuyakoresha mu bikorwa byacu bya buri munsi kandi turayagurisha. Hari ibigo bigiye bitandukanye n'amakoperative bishinzwe kuyakusanya hanyuma akajyanwa ku isoko.

Abaturage iyo bishyize hamwe bakora amakoperative akabafasha kwiteza imbere mu bikorwa by'ubuhinzi, nanone abayobozi bagerageza kubasura kugira ngo barebe uko bimeze, ibyo bituma abaturage bishima kandi bakagerageza kubafasha niba hari n'ikibazo bafite bakagikemura.

Abaturage bajya bishyira hamwe kugira ngo biteze imbere bashobora gushinga koperative bagakora ibikorwa by'ubuhinzi ku bintu bitandukanye urugero nk'inanasi iyo bazihinze babona amafaranga kandi bakayifashisha mu bikorwa byabo bya buri munsi byo kwiteza imbere kuko baba barishyize hamwe bungurana ibitekerezo kandi amafaranga babonye bashobora kuyajyana kuri banki kugira ngo bazayakoreshe mu minsi iri imbere.

Amata ni ikinyobwa gikunzwe cyane gikomoka ku matungo inka, gusa abakeneye kubikwa ahantu hafite isuku kandi ku buryo atakangirika, nanone abagomba gutwarwa mu buryo bwizewe kugira ngo agere ku bacuruzi ndetse n'abaturage.

Ubu ngubu iterambere ryariyongereye, aho usanga dusigaye twishyura ibintu byose twifashishije momo pay, ibyo biturinda gutakara kw'amafaranga ya hato na hato. Dukoresha icyo bita cashless mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi biroroshye ndetse ni ku buntu.

Ubworozi bw'inkoko bugenda butera imbere muri iyi minsi, aho bashobora koroka in nkoko z'ubwoko butandukanye kandi zikitabwaho zigatanga umusaruro, hari inkufu zitanga inyama, izitanga amagi gusa, gusa zose zitanga umusaruro, iyo zitaweho neza.

Hari abantu babariyeyemeje gukora ibintu bikozwe mu bintu gakondo, urugero nk'abakora inkono, amavase bashyiramo indabo bifashishije ibumba, bakora ibyo bikoresho kandi usanga binogeye ijisho kubera ukuntu biba bitatse.

Abagore nabo bakeneye kwiteza imbere kugira ngo babone ibyo bakeneye kandi bateze imbere urugo rwabo, niyo mpamvu bibumbira hamwe, kugira ngo bungurane ibitekerezo bashobora gukora umushinga wo kudoda bakoresheje intoki zabo, kandi ibyo bituma babona amafaranga.

Iyo tugeze mu imurikagurisha dusangamo ibintu bitandukanye harimo n'ibyo kurya. Urugero nk'imbuto, amavuta yo kurya nanone haba hari abo bantu bashinzwe kubicuruza.

Iyo tugiye mu mazu ashinzwe gucuruza ibyo kurya tuhabona iby'ubwoko butandukanye harimo imigati, isosi ndetse n'ibindi, ibyo biryo biba biteguranywe isuku kandi n'ubuhanga.

Utubari cyangwa amabare ni ahantu hazwiho ko haba inzoka z'ubwoko bwose ikintu kihakwereka haba hari icyapa kigaragaza inzoga urugero nk'izanditseho gatanu, mitsingi, pirimusi, sikoru n'izindi zitandukanye, iyo ukibona icyo cyapa uhita ubibona ko abantu bacuruza inzoga kandi abantu benshi ari bo babasanga ku bijyanye no kunywa inzoga.

Amabotike dusanga mu makaritsiye cyangwa ku isoko, harimo ibintu bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukenera kurya buri munsi ariyo mpamvu ayo maduka ahari kandi ibyo byose tubisangamo. Nanone haba harimo amasabune, amavuta, ibikoresho by'isuku dukeneyera mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi igiciro bakoresha kiba kinogeye buri wese.

Hari abantu bakunda ibyo kurya biryohereye bongera mu biryo kugira ngo amafunguro yabo agire ubundi buryohe, urugero ni nka mayoneze aho usanga iri mu maduka yose kandi abantu benshi barayikunda.

Mu maduka cyangwa se amabotike dusanga mu makaritsiye haba harimo ibintu bitandukanye. Muri byo nk'abantu bakunda ibyo kunywa nk'inzoga, niho bazisanga. Ziba zihari z'ubwoko bwose kandi zibitswe mu buryo bukonjesha, kugira niba bashaka n'izikonje bazibone. Uba usanga hari n'amafanta ku bantu batanywa inzoga. Kandi igiciro kiba kinogeye buri wese.

Mu maduka tuhasanga ibintu bitandukanye harimo ibyo kurya, imboga, amagi cyangwa Ibikomoka ku matungo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Dukenera ayo maduka tuyabona ahantu hatandukanye kandi yatwegereye ku buryo bitadusaba gukora urugendo.

Iyo dukeneye kwiyitaho cyane ku bwiza urugero nk'imisatsi, dushobora kujya mu maduka hanyuma tukayabona. Aya mavuta tuyifashisha kugira ngo duse neza ku musatsi wacu ndetse ubashe gukura neza.

Iyo urukweto rwacu rwacitse twifashisha akantu gafatanya kugira ngo zisubirane. Iyo dukoresheje kole dushobora gushyira ahantu hasadutse cyangwa hangiritse kugira ngo urukweto rwacu cyangwa se ikindi gikoresho cyatandukanye kibashe gusubirana.

Ku muhanda uba usanga hari serivisi zitandukanye twakenera ziba zihari, urugero aho bacururiza amayinite byihuta turahabona, abamotari bashobora kutuvana hamwe batugeza ahandi, amaresitora aho bacururiza imiti, aho bacuruza ibyo kurya bisanzwe ndetse n'izindi serivisi dushobora gusanga ku muhanda.

Amaduka adufasha kubona ibintu bitandukanye dukeneye kandi bitworoheye, usanga ari ahantu dutuye muri karitsiye zacu tubonamo ibikoresho bitandukanye, muri byo hari ibyifashishwa mu gukora isuku mu matwi kugira ngo tubashe gukomeza kugira ubuzima bwiza, nanone tubonamo ibindi bintu dukeneye bitadusabye gukora ingendo ndende.

Amabutike cyangwa aho abacuruza ibikoresho bitandukanye haba harimo ibintu byinshi, urugero harimo ibibiriti twifashisha ducana umuriro kugira ngo tubone ibyo kurya, tudafite ikibiriti birumvikana ko tutabasha guteka ngo tubona amafunguro ahiye neza, ni iyo mpamvu muri aya maduka usanga ibyo bibiriti bitahabura.

Iyo tugiye guhaha mu iduka, hari igihe biba ngombwa ko twicara niyo mpamvu baba bafite udutebe duto tworoheje kugira ngo twicareho, nanone abacuruza bakenera kwicara mu mugihe nta bakiriya bafite.

Mu maduka cyangwa se ku isoko tusanga ibintu bitandukanye dukenera urugero nk'imbuto, iyo tugiye mu maduka amasoko tuhasanga imbuto z'ubwoko bwose kandi ku giciro kitunogeye, ziba ari nyinshi cyane ku buryo bisaba ko twihitiramo kandi ziba zitwegereye ku masoko cyangwa se ku maduka ari hafi aho dutuye.

Iyo tugiye ku mihanda yo ku masoko uba usanga hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'ibyifashishwa mu kuzana umwuka mwiza mu gihe mu nzu haba hashyushye cyangwa se ibindi bikoresho bitandukanye.

Mu mabotike cyangwa se amaduka, tubonamo ibintu bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urugero nk'amavuta twisiga twita ku ruhu rwacu, imisatsi yacu, ayo mavuta ubusanzwe akozwe mu bimera bitandukanye kandi afite impumuro nziza, ku buryo iyo tuyisize duhumura neza. Ayo mabotike, uba usanga ari ahantu muri karitsiye ku buryo bitasaba gukora ingendo ndende.

Abanyarwanda bahurira hamwe kugira ngo basengere hamwe, bashobora guhurira mu rugo rw'umuntu cyangwa se bakajya ku rusengero, baturirana ibyaha byabo kandi bagasenga Imana, kandi baba bizeye ko iri bubumve, nanone birabahumuriza cyane kuko bituma bibagirwa ibibazo bari bafite.

Imyizerere ni kimwe mu bintu biranga abantu uba usanga bafite imyizerere itandukanye, gusa benshi bahuriza mu kwemera Imana ndetse na Yesu. Uba usanga bafite abihayeyimana bafasha mu myemerere yabo.

Mu mazu yabugenewe mu kwakira abantu mu gihe bakeneye amafunguro, uba usanga ameza yabo ateguye, hariho imitako, amanimero agaragaza ameza kandi afite isuku.

Iyo tugiye mu mazu ashinzwe kwakira abantu cyane abakerarugendo cyangwa se abifuza gutembera, haba hari icyapa kiduhereza ikaze, ibyo bituma abahaza bahishimira kuko baba bitaweho bagaragarizwa urukundo kandi ko ari ab'agaciro.

Inzu cyangwa se amahoteli, aho abantu bashobora guhurira bikaba ngombwa ko bararamo, uba usanga hari ibyumba byateguwe bicumbikira abantu. Ibyo byumba biba birimo ibisabwa byose n'ibindi bikoresho, uburiri buba bumeze neza butunganyije, harimo intebe bashobora kuganiriramo, ahantu bashobora gufatira amafunguro, ndetse abarangwa n'isuku hari n'amataradi atandukanye.

Mu mahoteli no mu maresitora tuhasanga ibyo kurya byiza kandi bifite isuku. Ibyo biryo biteguranye ubuhanga, bitekanye isuku kandi bifite impumuro n'uburyohe bwiza cyane. ubu usanga biteguye neza, ku buryo bibereye ijisho kubireba, kubera harimo abantu babihuguriwe kandi bafite ubumenyi mu gutunganya, niyo mpamvu usanga bagira abakiriya benshi.

Hari amazu yabugenewe mu gutanga amacumbi aba ari ahantu hatandukanye kandi amacumbi yabo ari meza cyane kuko mu byumba uba usanga biteguye neza kandi ibyangombwa byose umuntu akenera tubisangamo.

Mu mahoteli tuhasanga serivisi zigiye zitandukanye, muri zo harimo ibyumba byo kuraramo ku buryo iyo tunaniwe badufasha tukabona aho kuryama. Muri ibyo byumba usanga biteguye neza bifite isuku, kandi bitatse ndetse n'uburyo bushashemo ubona bugaragara neza.

Mu mahoteli uba usanga mu byumba by'aho ari ahantu hafite isuku cyane, biba bishashe neza hari uburiri bwiza n'ibitanda, nanone haba hatatse imitako itandukanye ituma abantu bahakunda, haba hari intebe abantu bashobora kwicaraho bari kuganira, amatara meza ndetse n'ibindi bintu byinshi.

Iyo tugiye mu nzu zabugenewe mu gucumbikira abantu hari ahantu baba barakoze aho abantu baruhukira bagiye koga mu mazi menshi, ibyo bituma abantu bahishimira kuko bituma baruhuka.

Ku mahoteri cyangwa ku maresitora haba hari serivise zitandukanye tuhasanga muri zo harimo ku duhereza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, uba usanga ibyo biryo bitunganyije neza cyane kandi binogeye ijisho rifite isuku, biba bifite uburyohe bwihariye kuko biba byatetswe n'abashefu babyigiye babifitiye ubumenyi buhambaye, nanone uba usanga izo resitora ziri ahantu heza cyane.

Iyo twakoze urugendo dukenera ahantu ho kujya kurara, iyo mpamvu hari amazu abishinzwe kugira ngo aduhe amacumbi yo kuraramo, ibyumba byabo biba bitunganyije neza kandi hari n'inzitiramibu.

Mu mazu ashinzwe gucuruza ndetse no gutanga amacumbi haba harimo ahantu ahagenewe abantu bicara bakaganira ndetse haba harangwa n'amatara meza ku buryo buri wese aba yishimiye kuhicara.

Iyo tugiye muri resitora cyangwa mu mahoteli tugasaba icyo kunywa, baduhereza ibyo kunywa cyiza kandi cyujuje ubuziranenge. Nanone kiba giteguwe mu buryo bunogeye ijisho, ku buryo n'iyo ukirebye ubona ko wakwishimira kukinywa. Nanone ibyo byo kunywa bategura, biba bifite uburyohe bwiza kandi bw'umwimerere. abiteguranye ubuhanga kuko ababikora baba barabyigiye.

iyo ugiye ahantu hari amahoteri cyangwa amaresitora, uba usanga hameze neza uburyo hubatse haba hanogeye ijisho cyane, hanze haba hari ubusitani, hari bingaro abantu bicaramo bumva akayaga ko hanze, haba ari udutebe twiza, indabo zinogeye ijisho, nanone inyubako zazo ziba ari nziza cyane, ku buryo buri aba yishimiye kuhaba.

Amahoteli batanga serivisi zitandukanye harimo n'aho abantu barara. Ibyo byumba biba biteguye neza cyane bifite isuku kandi bishashe neza ku buryo bunogeye ijisho, niyo mpamvu abantu bagana izo serivise, bayishimira kandi bigatuma basinzira neza.

Ku ma hoteli uba usanga ari ahantu heza cyane, hari ibintu byiza bituma abantu benshi bahakunda. Muri byo hari ama pisine cyangwa se ahantu abantu baruhukira bakajya koga. Bituma abantu baruhuka mu mutwe kandi bakahishimira cyane kuko bituma baruhuka barimo abakora n'imyitozo ngororamubiri.

Amahoteli tuhasanga serivisi zitandukanye zituma abakiriya bahagana bahishimira, muri izo serivisi harimo kuba abakiriya bafite ibinyabiziga bafite ahantu babiparika kandi hizewe, ibyo bituma bumva bafite umutekano kuba bashyira ibinyabiziga byabo aho hantu.

Hari amaduka agiye atandukanye mu Rwanda ndetse no mu makaritiye harimo abayihariye mu gucuruza imyambaro y'abagore, urugero nk'ibitenge. Aho abagore benshi babikunda, kuko ari wo mwambaro bambara bakaberwa cyane ugaragaza ko umuntu ari umubyeyi, babidodamo ibintu bitandukanye kugira ngo bagaragare neza.

Iyo tugiye ku isoko cyangwa tugatambuka ku mihanda yo ku masoko, tuhabona ibicuruzwa bitandukanye. Nanone tugenda duhura n'abantu, babicuruza babyikoreye ku dutaro cyangwa ku mabase, kandi ibyo bikoresho biba bigura kimwe n'ibyo mu maduka ntago baduhenda.

Iyo imyenda yacu yangiritse igacika, cyangwa dushaka kugira akantu tudodesha k'umwenda, tujya ku masoko, aho usanga hari ibyumba byabuhariwemo mu kudoderamo imyenda, uba usanga hari abagore ndetse n'abagabo babikora, baradufasha cyane ku buryo twambara neza.

Iyo tugeze mu mijyi ku muhanda tuhasanga abantu bacuruza imyenda ari bo bita abazunguzayi baba barifite imyenda itandukanye iy'imbere ndetse ku giciro cyiza, nanone ku maduka ari ku mihanda haba hari ibintu bitandukanye dukenera nk'inkweto ndetse n'indi myenda itandukanye.

Ku mihanda hakorerwa ibintu bitandukanye, harimo abantu batagira aho bacururiza, ariyo mpamvu, bashyiraho imitaka, agatebe ndetse n'ameza, hanyuma bagacuruza, ibyo bibarinda izuba kandi n'ibikore n'ibintu bari gucuruza, ntibyangirike.

Iyo tugeze ku isoko tuhabona ibiribwa by'ubwoko butandukanye, harimo n'imbuto, mu buzima bwacu dukeneyera imbuto kugira ngo umubiri wacu ukomeze gukora neza niyo mpamvu ku isoko usanga bihari kandi iz'ubwoko bwose twazibona.

Mu Rwanda tugenda tubona abacuruzi batandukanye harimo n'abacururiza ku muhanda bikorewe ibitaro abo bita abazunguzayi, bafite ibikoresho bitandukanye babiranguye kubera bafite ubushobozi buke bwo gushinga idukani, ni iyo mpamvu bacururiza ku muhanda bikoreye udutaro hariho utwo dukoresho twabo dukeya bacururizamo.

Ku mihanda ndetse no mu masoko uhasanga ibyo kurya bitandukanye harimo n'ibikomoka ku buhinzi ku buryo buri muturage abasha kubibona na wa wundi udahinga, usanga ibitoki, ibirayi wabibona rwose kandi mu buryo bworoshye.

Amatungo magufi, urugero nk'ihene, atanga umusaruro cyane kuko iyo yorewe neza, agakura tuyabonamo amafaranga, tuyagurishije, ashobora kuvamo inyama cyangwa se twayagurisha ku bantu, bashaka korora.

Mu byaro ubu usanga hari amasoko aho bacuruza ibintu bitandukanye, ibyo kurya, imyambaro ndetse n'inkweto. Ayo masoko usibye ibyo kurya, haba hari n'ibinyabiziga biba byiteguye kudutwaza.

Ubucuruzi bukorwa mu buryo butandukanye, ubusanga mu maduka ku isoko ku mihanda hari ibintu bitandukanye dukenera, ibikoresho, ibyokurya ndetse habaye n'abantu babamotari cyangwa abashinzwe gutwara ibinyabiziga, badufasha gutwara ibyo bintu twahashye babijyana ahantu hamwe bibivana ahandi, ibyo bituma ubucuruzi bukorwa neza kandi bukaduteza imbere.

Iyo tugiye ku isoko cyangwa se mu maduka tuhabona ibikoresho bitandukanye twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'amasuka dukoresha mu buhinzi, ibikoresho byo mu rugo, ibyuma cyangwa se ibyo twifashisha turi gukinga inzu zacu, ibyo byose tubisanga ku masoko ndetse n'amaduka.

Uba usanga ku mihanda hari abantu bacuruza utuntu tworoheje urugero: nk'imbuto, amapera, imyembe, uba usanga babitanditse ku muhanda kandi ibyo bibafasha kubona utuntu bakeneye kugira ngo na bo babashe kubaho.

Iyo tugiye mu mazu ashinzwe gucuruza ibyo kurya tuhabona ibyo kurya byiza, amezi n'intebe biteguye neza kandi aho hantu haba hari isuku ndetse n'amatara meza cyane.

Iyo tugiye nko guhaha, bikaba ngombwa ko dutwara ibintu byinshi, dukenera ibinyabiziga kugira ngo bidutware kandi bidutwaze n'ibyo twaba twaguze byose. Ibinyabiziga ni ingenzi cyane kuko bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Kugira ngo tuve ahantu hamwe tujya ahandi cyangwag se dukora ibikorwa by'ubucuruzi, dukenera ibinyabiziga urugero nka moto, biradufasha cyane kuko bidufasha kugera ahantu dushaka mu gihe gito kandi bitworoheye, nanone iyo turi gukora ubucuruzi, ushobora kuzifashisha tukazituma.

Dukenera ibinyabiziga kugira ngo tubashe kugera aho tugiye, nanone tuba dufite imihanda myiza ku buryo tuba twumva turi kugenda dufite umutekano. Mu muhanda haba hari n' ibyapa bifasha abanyabiziga.

Abaturage uba usanga bakenera ibinyabiziga, kugira ngo bave ahantu hamwe bajya ahandi. urugero, igare ni kimwe mu bintu abaturage benshi usanga batunze mu urugo rwabo kuko bibafasha koroshya ingendo, kandi bagatwara ibintu bitandukanye.

Iyo dukeneye kuva ahantu hamwe tujya ahandi, dushobora kwifashisha ikinyabiziga nk'imodoka. Gusa tuba tugomba gufata amasomo yo kumenya uko bayikoresha nko gukora kuri vola, kuri vitensi ndetse n'ahandi.

Amagare ni kimwe mu binyabiziga bikoreshwa mu gutwara ibintu n'abantu, uba usanga ababikora bafite aho bahurira ku buryo bafite n'imyambaro yabugenewe iranga akazi kabo.

Ibinyabiziga biradufasha, kuva ahantu hamwe tujya ahandi, hari igihe twifuza gukora urugendo ariko tukaba dutahagira n'amaguru, niyo mpamvu ibinyabiziga bidufasha, gukora urwo rugendo kandi nta mbogamizi duhuye na zo.

Dukenera ibinyabiziga kugira ngo tuve ahantu hamwe tujya ahandi, niyo mpamvu abamotari bagerageza uko bashoboye kugira ngo babidufashemo. Iyo dukeneye gukora ibikorwa bitandukanye bituma tuva aho turi twifashisha aba bamotari kugira ngo bahatugeze bitagoranye.

Ibinyabiziga bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo dukeneye kuva ahamtu hamwe tujya ahandi ni byo twifashisha nanone iyo turi mu bikorwa by'ubucuruzi biradufasha cyane urugero nka moto idufasha gutwara ibintu n'abantu kandi bituma ibikorwa byacu byoroha.2

Abamotari badufasha mu bikorwa byacu bya buri munsi, kubera ko tuba dukora ibintu bitandukanye bidusaba gukora ingendo, iyo duteze ibinyabiziga urugero nka moto biratworohera, nanone ibinyabiziga by'abamotari bigenda byongerwa ku buryo bitworohera kuzibona n'igihe cyose tubishakiye.

Dukenera ibinyabiziga kugira ngo bidufashe gukora ubucuruzi ndetse no kudutwarira ibintu dushaka kuvana ahantu hamwe tubijyana ahandi, uko byaba bingana kose biratwarwa kandi biratworohera.

Ku mihanda tuhasanga ibinyabiziga bigiye bitandukanye urugero nka moto cyangwag se imodoka bidufasha kuva ahantu hamwe tujya ahandi bitatugoye, nanone byifashishwa mu gutwara ibintu.

Mu mihanda myiza ibinyabiziga biroroherwa mu gukora ingendo, tubyifashisha kugira bidufashe kudutwaza ibintu byacu urugero nk'ibicuruzwa cyangwag se ibindi bintu dushaka gutwara.

Ibyokurya biva mu buhinzi turabikeneye ubuzima bwacu bwa buri munsi. Urugero nk'ibitoki, ibirayi, n'ibindi bintu bitandukanye biva mu buhinzi. Dukenera kurya kenshi kandi bidakurwa mu buhinzi ntacyo twabona. Niyo mpamvu abahinzi bashyiramo imbaraga cyane kugira ngo tubone ibyokurya. Nanone haba hakenewe abantu batwara ibyo byokurya, bakabigeza mu mijyi n'ahandi hantu bikenewe.